Farumasi ibamo imiti igiye itandukanye ivura abaturage indwara zitandukanye, maze abaturage bagakira bagasubira mu buzima bwabo bwa buri munsi, n'abaganga bakora muri farumasi bagakomeza kwishimira ko abaturage bavuye bakize.